Icyumba k'inama cyiza cyane kirimo intebe nziza buri muntu wese yicaye ku ntebe ye aregamye, abayoboye inama bicaye imbere kandi baragaragara neza hari amatara meza harimo n'umwuka mwiza.

Abantu bari mu cyumba cy'inama buri wese ahanze amaso imbere barakurikiye, bakurikiye ibyo uyoboye inama arimo kuvuga, buri wese afite ikaye yo kwandikamo ibivugirwa mu nama.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama. Buri wese yahawe amazi cyangwa se umutobe wo kunywa, kugira ngo ataza kugira umwuma, bose barimo barareba imbere, kandi bateze amatwi ibirimo kuhavugirwa.

Abantu bari mu nama uwo ku ruhande yateze amatwi arimo arareba, kandi afite mudasobwa imbere ye. Abandi na bo barakurikiye kandi buri muntu wese afite amazi imbere ye.

Abanyeshuri mu kigo k'ishuri bose baricyaye. Bose bahanze amaso imbere yabo. N'abasiramu n'abasiramukazi kubera ko abigitsina gore bambaye ibitambaro mu mutwe.

Abantu bicaye bari mu nama. Icyumba cy'inama kimeze neza gifite isuku, gifite umutekano, gifite urumuri ruhagije. Umudamu umwe arimo aratanga igitekerezo.

Abantu bari mu cyumba cy'inama. Mu cyumba cy'inama haratuje ntabwo hagaragara neza bisa naho ari nimugoroba. Buri wese afite amazi imbere ye yo kunywa mu gihe ari gukurikirana inama.

Abantu benshi bicaye harimo abagabo, abagore, abana, abasore, inkumi, bose bateze amatwi ibiganiro, hari amahema atandukanye abayobozi bicayemo.

Abantu batandukanye bari mu nama bose barahuze barimo kureba uko iyo nama irimo kugenda, buri wese afite amazi ashobora kumubuza kugwa umwuma. Hari uburyo bw'ikoranabuhanga barimo gukoresha kugirango inama igende neza na mudasobwa.

Abasore n'inkumi bambaye imipira y'ubururu iriho inyandiko igaragaza ko bakora isiganwa ku maguru bahuriye rero mu mwiherero kugira ngo banoze uko iryo sigana ryaho bakora ryagenda neza.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama bose bakurikiye inama bafite ibintu bitandukanye byo kwandikaho, buri wese yahawe amazi yo kunywa mu gihe cy'inama. Icyumba cy'inama kimeza neza gifite amadirishya yinjiza umwuka n'umuyaga.

Abantu bari mu nama, abagabo bane n'umudamu umwe, bose barimo kukungurana ibitekerezo ku ngingo runaka irimo kwigagwaho muri iyi nama. Inama iri kubera ahantu heza mu cyumba cyiza gifite umutekano.

Abantu bari mucyumba cy'inama bakurikiye inama bose bambaye neza, kandi bose bafite aho bandika ibivugirwa mu nama. Bose bitegereje imbere aho inama iri kuyoborerwa.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bose bambaye neza barimo baritegereza imbere, hashobora kuba hari umwigisha cyangwa se amasomo barimo gukurikirana kukibaho kandi bose baratuje.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama barimo barakurikira bose, harimo abafite za mudasobwa barimo kugenda bandika ivugirwa mu nama. Abadafite za mudasobwa barimo abakoresha telefoni zigendanwa kugira ngo bakurikire kandi bandike ibivugirwa mu nama bose bafite amazi yo kunywa.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, ni benshi kandi bose bateze amatwi, bose bafite amazi yo kunywa mu gihe inama irimo, bose barimo baritegereza imbere urimo gutanga ikiganiro.

Abantu batandukanye barizihiwe mu birori. Bose barimo kubyina. Hari umugabo urimo gukoma amashyi. Umugore arimo kubyinana n'umwana ukiri mutoya. Ibirori biranezerewe rwose! Abantu barishimye.

Umugabo ahagaze imbere, ari mu kubwira abantu bitabiriye inama, ari kuvuga ku ishoramari mu Rwanda, nawe ushobora gushora imari mu Rwanda muri serivisi zitandukanye kandi ukabiboneramo inyungu.

Icyumba k'inama harimo abantu batandukanye bari mu nama buri wese yicaye mu mwanya we kandi buri wese afite amazi yo kunywa hari umwuka mwiza kandi icyumba cy'inama kirimo amashusho ameze neza.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama n'amahugurwa bose baritonze nta muntu n'umwe urangaye, bose bafite amazi imbere yo kunywa, barimo barareba imbere bakurikiye ibyo umwigisha ari mukuvuga.

Abaturage bari mu nama. Bose baricaye. Hari abagore, hari abagabo, hari abasore, hari n'inkumi. Bicaye ahantu hameze neza, hari igicucu. nta zuba ririmo kuhava! Umuyobozi afashe ijambo, arimo arabasobanurira ibintu bitandukanye.

Abantu bari mu nama bose barimo barunganira ibitekerezo, harimo abagabo harimo n'abagore buri wese yahawe amazi yo kunywa kugira ngo ataza kugira umwuma.

REB ni ikigo k'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze, icyo kigo kikaba ari ikigo kiba kireba imyigire n'imyigishirize by'abanyeshuri mu Rwanda.

Rebu ni ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze. Gishinzwe kwita ku myigire n'imyigishirize ku bana n'amashuri n'ibindi byose bigendanye n'uburezi.

Aradibi ni ikigo cya leta cy'imiyoborere. Ni ikigo gishinzwe kureba imitangire ya serivisi mu nzego za leta, hakaba n'ikigo kigenzura imikorere y'imiryango itegamiye kuri leta, n'imiryango ishingiye ku myemerere.

Byikorere ni ubukangurambaga butangwa n'ikigo Irembo govu, aho buri muturarwanda wese ufite hejuru y'imyaka cumi n'umunani, ufite indangamuntu aba ashobora kwisabira serivisi zitandukanye ziri ku rubuga rw'Irembo govu, kugira ngo abone iyo serivisi bitabaye ngombwa ko akora urugendo agiye gusaba iyo serivisi.

Ikigo cy'imisoro n'amahoro kiratanga akazi ku muntu wese waba wujuje ibisabwa, kugirango ahabwe akazi ko gutwara imodoka i Darisaramu muri Tanzaniya. Niba ufite rero uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga turagusaba ko wagana icyo kigo kugirango uhabwe ubusobanuro bugaragara.

Byikorere ni uburyo bwashyizweho na irembo, govu. byikorere ishobora gufasha abantu Bose babishoboye kwisabira serivise zitandukanye kurubuga irembo, badakeneye ubufasha bw' umuntu uhagarariye irembo Kandi serivise bakayihabwa mugihe gitoya.

Abantu babiri bicaye imbere ya mudasobwa umwe ni umukozi w'irembo arimo aratanga serivise za leta, undi ni umuturage waje kumusaba serivise, biragaragara ko harimo calenje zitandukanye kandi aha hantu abaturage benshi bahabonera serivise zitandukanye z'ikoranabuhanga.

Hamwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, ushobora kubona ibihembo bitandukanye, mu gihe wagiye waka inyemezabuguzi zitandukanye ku bintu waguze, ziriho umusoro.

Amasaha y'akazi mu Rwanda ateye ku buryo bukurikira: kuva saa mbiri za mu gitondo kugera saa kumi n'imwe za nimugoroba ukuyemo ikiruhuko cy'isaha imwe. Abakozi mu Rwanda bagira isaha imwe hagati ya saa mbiri na saa tatu za mu gitondo aho bashobora gukora batari mu biro.

Urubuga irembo govu ni urubuga abanyarwanda basabiraho serivise zitandikanye za leta, serivise polisi, iz'ibinyabiziga, iz'abinjira n'abasohoka mu gihugu, ndetse n'abaturage bashaka ibyangombwa bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Kwiyandikisha ku rubuga rwa minisiteri y'abakozi ba Leta ntabwo bigoye. Bisaba nimero y'irangamuntu, nimero ya imeli ikora neza, na telefone, na nimero za telefone, iyo umaze kwiyandikisha, uba ushobora gusabiraho akazi gatandukanye, kandi ukahakorera Ibizamini bitandukanye by'akazi.

Byikorereye ni ubukangurambaga bw'ikigo irembo gove muri gahunda ya byikorere ushobora kwisabira serivisi z'ikoranabuhanga ushobora kwisabira serivisi za polisi ushobora kwisabira ibyemezo bitandukanye bya leta utavuye aho uri.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho babiri bambaye imyambaro igaragaza ko ari abakozi bari mu kazi bari ku munara w'itumanaho barimo barasuzuma imikorere yabo.

Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, kiributsa abacuruzi bose n'abantu bafite imitungo itimukanwa, ko itariki ya nyuma yo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, ari itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri kwa buri mwaka.

Ubukangurambaga bwa byikorere bugamije gukangurira abaturage bose uko bajya bisabira serivise zitandukanye kurubuga rwirembo urugero nka serivise za polisi bashobora kuzisabira batagiye kureba aba ejenti batandukanye birembo kandi bakazihabwa.

Umunara w'itumanaho ushyirwaho ibikoresho bitandukanye bisakaza amajwi n'amashusho, ugashyirwaho n'ibikoresho byakira amajwi n'amashusho. Bifasha mu kwakira amashusho ku nyakira mashusho z'abaturage no kwakira amajwi ku nyakiramajwi z'abaturage.

Uburyo umuntu yakwimenyekanishiriza kandi akanishyura umusoro ku mutungo utimukanwa w'umutungo we. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kimenyesha abantu bose uburyo cyakoresha kugira ngo buri wese ajye abasha kwimenyekanishiriza umusoro cyangwa awishyurire ku gihe.

Kwirinda icyorezo cya coronavirusi; gerageza kwishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, karaba intoki ukoresheje amazi meza cyangwa ukoreshe umuti wica udukoko, hana intera na bagenzi bawe, kwambara agapfukamunwa, irinde guhoberana cyangwa se guhana ibiganza musuhuzanya.

Byikore ni ubukangurambaga butangwa n'ikigo irembo govu, bushobora kwisabira serivisi ushaka ziri ku rubuga rw'irembo gove, ushobora gusaba ibyemezo bitandukanye wibereye mu rugo cyangwa ugakanda akanyenyeri magana cye n'icyenda urwego ugasaba serivisi zitandukanye.

Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro gikangurira abantu bose kwishyura imisoro n'amahoro bagomba kwishyura bakayishyura igihe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe kijya gitangaza amatariki ntarengwa yo kwishyura imisoro kugira ngo abantu badacibwa amande

Umunara w'itumanaho ushyirwaho ibyuma bitandukanye bisakaza amashusho ,bisakaza amajwi n'ibyakira amashusho cyangwa se bikakira amajwi bituma abantu batuye mu gace ka kure bashobora kubona amashusho kunyakira mashusho n'amajwi kunyakiramajwi zabo.

Itangazo ry'ikigo k'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro rigaragaza ko hasigaye umunsi umwe gusa Kugirango harangizwe kwishyurwa imisoro y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Abacuruzi rero iyo baryitayeho bituma batagibwaho n'amande Kubera ko batinze kwishyura imisoro.

Ikigo cy'imisoro n'amahoro nicyo kigo mu Rwanda kigena uko ibipimo by'umusoro n'imisoro itandukanye bikurikizwa hakubiyemo n'ibipimo by'umusoro w'ubutaka buriho inyubako.

Abana babiri b'abanyeshuri barimo barakoresha mudasobwa zageneye zagenewe abana, barimo barashushanyamo amazu, barimo barashushanyamo utuntu, barimo barimenyereza ikoranabuhanga.

Umunara w'itumanaho, ushyirwaho ibikoresho by'itumanaho bitandukanye, insakazamashusho n'inyakiramashusho, insakazamajwi n'inyakiramajwi, bifasha abafite televiziyo cyangwa za radiyo mu rugo, mu ngo zabo, kwakira amakuru.

Urubuga irembo govu ni urubuga rutangirwaho serivisi za leta. Ushobora kubonaho serivisi z'ubutaka, ukuvugurura imbibi no gukosoza ubuso bw'ubutaka, ushobora kwandikisha no gucamo ibice inyubako ikubiyemo inzu zo guturamo.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda niyo minisiteri yita ku bijyandanye n'ubuzima bw'abaturage mu Rwanda. Ikareba ibihereranye n'ubuziranenge ndetse n'itanga rya serivisi z'ubuzima, kandi ikita ku bigo bigurisha imiti mu Rwanda.

Umunara w'itumanaho! Ufasha amasosiyete y'itumanaho akorera mu gihugu gushyiraho ibikoresho bisakaza amajwi, kandi bikakira amajwi. Ibyo bigatuma abantu batandukanye bo mu bice bitandukanye by'igihugu babasha kubona amashusho kuri televiziyo, no kwakira amajwi kuri radiyo.

Uryango urakinguye, hatangirwa serivise za leta binyuze ku rubuga irembo govu. Umuturage ashobora kuhasabira serivise zitandukanye, no kuhasabira ibyemezo bitandukanye bitangwa n'inzego z'ibanze za leta akeneye.

Umunsi mpuzamahanga w'umurimo wizihizwa ku itariki ya mbere, Gicurasi, buri mwaka. Uwo munsi abakozi batandukanye b'ibigo bitandukanye bahirira hamwe bakongera kuganirizwa ku byiza b'umurimo no kuwitaho.

Umunara w'itumanaho wubatswe kugira ngo ushyirweho ibikoresho bitandukanye, bisakaza amajwi bishobora no gusakaza amashusho kugira ngo abantu batuye mu bice bitandukanye by'igihugu babashe kwakira amajwi n'amashusho ku nyakiramajwi n'inyakiramashusho zabo.

Rura ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bwa serivisi zitangirwa mu Rwanda zitandukanye harimo serivisi z'ibinyabiziga, serivisi z'itumanaho na serivisi zitandukanye kugira ngo babe bazi ko ibiciro bihuje n'igihe kandi ko abaturage bafite badafite ikibazo.

Ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu, icyatsi, umuhondo n'ubururu, mu ibara ry'ubururu harimo urumuri rw'izuba ricanye.

Urubuga irembo govu rushobora gufasha abantu bose bakeneye serivise zishyingiranwa. Ushobora kwiyandikisha kugira ngo uzashyingiranwe nuwo wifuza kubana nawe ndetse no guhindura irangamimerere yawe ikava kungaragu ukaba uwashyingiwe.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi, insinga zijyana amashanyarazi m'uduce dutandukanye tw'igihugu, bifasha abaturage kubona amashanyarazi yo gukoresha mu ngo zabo ajya gucana amazu yabo no gukoresha ibikoresho bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo, ni umuhanda mwiza cyane, ukikijwe n'ibiti bizana umuyaga mwiza, umuhanda uriho amatara awuboneshereza nijoro. Imodoka ebyiri zihagaze iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda mwiza cyane, ku inyengero z'umuhanda, hateyeho ibiti by'amoko atandukanye. k'umuhanda hateyeho amatara hariho ibikorwaremezo by'amashanyarazi ndetse n'iby'itumanaho.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi; bituma amashanyarazi ava mu gace kamwe bakayajyana mu kandini, hagamijwe ko abaturage bose b'igihugu bagerwaho n'ingufu z'amashanyarazi, zo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi. Insinga zijyana amashanyarazi ku baturage. Izi nsinga ni ingirakamaro cyane kubera ko zigeza amashanyarazi ahantu henshi hatandukanye ndetse hakure abaturage bakabona ibyo bikorwaremezo.

Aba motari bategereje abagenzi mu mujyi wa Kigali, batwaye za moto zabo, bambaye imyenda yakazi hari umusore wambaye umwenda w'akazi w'ubururu hari n'umugore uba ufite agasakoshi agenda ajya ku kazi. Ku muhanda hari icyapa cyamamaza sasiyeti y'itumanaho.

Inzu nziza cyane yubatse hafi y'umuhanda, imbere hateye ibiti bimeze neza, hari ubusitani bwiza, imeze neza kandi yubatse ku muhanda, ifite ibikorwaremezo urugero nk'amashanyarazi.

Rege ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ikwirakwiza ry'ingufu z'amashanyarazi mu gihugu, gifite amashami yose mu ntara zose no mu turere twose tw'igihugu, kikaba kita ku kureba ukuntu abaturage bagezwaho ingufu z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru, kandi hirya yako haba hari ubusitani bwiza bugizwe n'indabyo n,ibitii bitandukanye. Hari ibikorwa remezo by'amashanyarazi n'iby'itumanaho biba biri ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite inzira y'abanyamaguru, ufite ku ruhande ubusitani buteyeho indabyo, hari amazu munsi y'umuhanda atuwemo n'abaturage, hari ibikorwa remezo by'amashanyarazi biri ku muhanda.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi bigizwe n'insinga zitandukanye zijyana umuriro w'amashanyarazi aho inyubako z'abaturage ziri, ku muhanda kandi uriho amatara awuboneshereza nijoro.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi bigezwe n'insinga zirimo zerekeza ahantu hatandukanye aho zigaburira umuriro w'amashanyarazi abaturage bahatuye inzu kandi iriho hejuru ibikoresho by'itumanaho.

Ibikorwaremezo bitanga ingufu z'amashanyarazi, ibikorwaremezo bifasha abaturage mu kubona amashanyarazi bakoresha mu ngo zabo, mukazi ka buri munsi, mu nganda n'ibindi.

Ibikoresho bitanga amashanyarazi bi bibitse hano, abaturage bazitegura kubona amashanyarazi binyuriye kuri ibi bikoresho bizakoreshwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi ku muhanda, hari umuntu urimo kugenda muruwo muhanda, kuruwo muhanda hubatse amazu kandi uwo muhanda uteyeho indabyo n'ibiti bitanga umuyaga mwiza utanga, abantu bahumeka.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo arimo aragendera ku igare. Arimo aragendera mu nzira yagenewe amagare iruhande rwa kaburimbo. Umuhanda uriho ibikorwa remezo by'amashanyarazi kandi uyu muhanda utuweho n'abantu.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi, insinga z'amashanyarazi zifasha mu kugeza amashanyarazi mu bice bitandukanye, by'igihugu cyane cyane ibice by'icyaro. Mu cyaro bashobora kubona amashanyarazi yo gukoresha ubuzima bwabo bwa buri munsi no gucana, binyuriye mu bikorwaremezo ikigo cy'gihugu gishinzwe ingufu cyashyizeho.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi; hakubiyemo insinga zigenda ku biti cyangwa se ku byuma bagamije kujyana umuriro w'amashanyarazi ku nyubako nyinshi zitandukanye. Ibi bikorwaremezo bifasha umuriro kugera no ku baturage batuye kure.

Ahantu ubusanzwe hari imyaka hahinzwe, hashyizweho ibikorwa remezo by'amashanyarazi. Ibikorwa remezo by'amashanyarazi bishobora gutuma abaturage bo mu gace runaka babona uburyo kubona ingufu z'amashanyarazi bakoresha mu gucana umuriro mukoresha ibikoresho bikoresha amashanyarazi no gukora akazi ka buri munsi.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi byagiye byubakwa hirya no hino mu gihugu ku nkengero z'umuhanda kugira ngo bigeze amashanyarazi muduce dutandukanye tw'igihugu.

Mu mugi abantu barimo baratembera. Abamotari barimo baratara abagenzi, hari imodoka irimo kuzamuka, hari amaduka acuruza ibintu byinshi bitandukanye, hari n'ibyapa byamamaza bitandukanye.

Icyapa kigaragaza amerekezo y'umuhanda, kiri munsi y'umuhanda. Hari ibikorwa remezo by'amashanyarazi. Ushobora kwitegereza ukabona hakurya ku gasozi, imiturire itandukanye y'abaturage.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi. Insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye abaturage batuyemo, bityo abaturage na bo bakagerwaho n'amashanyarazi yo gucana mu ngo zabo, cyangwa se gukoresha ibikoresho bitandukanye.

Kwa muganga aho abarwayi barara, harimo ibitanda bitandukanye ni icyumba kinini cyane kirimo urumuri ruhagije, kirimo amatara ahagije kandi buri gitanda kiryamaho umuntu umwe gusa.

Ibitaro byitiriwe umwami Fayisari, ni ibitaro biri ku rwego mpuzamahanga, abantu barimo barajya kwivuza, ibitaro kandi bifite serivisi nyinshi zitandukanye z'ubuvuzi.

Abarwayi batandukanye bategereje kubonana na muganga, bicaye ku ntebe barategereje. Ni abarwayi b'ingeri zose, harimo abagore, harimo abagabo, harimo abana ndetse bamwe bari imbere bageze aho bahererwa serivisi.

Ahantu heza cyane mu Rwanda, hari ubusitani bumeze neza, hari ibiti by'imikindo, hari amazu ameze neza umuntu yahicara akaruhuka mu gihe umuntu yaba ananiwe.

Kwa muganga ni ahantu abantu bajya bafite ibibazo by'ubuzima bagiye kwivuza harimo serivisi zitandukanye hari aho bavurira indwara z'amaso hari aho babagira hari aho abarwayi babacumbikira n'ibindi.

Inzu icururizwamo imiti ifite ikizimyamwoto, kizimya mwoto ni igikoresho gikoreshwa mu gihe havutse inkongi y'umuriro, yaba umuriro utewe n'ibintu bitandukanye ibyo aribyo byose, kizimyamoto irifashishwa kugira ngo umuriro ubashe kuzima.

Imbangukiragutabara n'imodoka igenewe gutwara abarwayi batandukanye, haba indembe abakomeretse n'abafite ibibazo bikomeye kwa muganga, ibavana ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi aho bashobora kubona ubuvuzi bubanogeye.

Inyubako ikorerwamo imirimo ya leta harimo abantu batandukanye abagabo n'abagore biteguye kubonana n'ubugenzacyaha ndetse hari n'umugororwa wicaye ku ntebe nawe kubera ko yiteguye kubonana n'umugenzacyaha.

Amazu yo kwa muganga ni amazu meza agiye agaragaza aho serivisi zitandukanye zitangirwa, buri muganga aba afite ahantu akorera bitewe n'icyo avura, hari ubusitani bwiza imbere y'ayo mazu.

Ku biro by'abinjira n'abasohoka mu gihugu cy'u Rwanda, ni mugitondo kare nta bantu benshi barahagera, ariko hari umugore wahageze wambaye ikanzu itukura n'umupira w'umweru, aritegura ko nibatangira baribuze kumufasha, agakomeza urugendo.

Ishami ry'ubuvuzi bw'amaso mu bitaro ni ishami ryita ku mimerere myiza y'amaso mu gihe umuntu atabona cyangwa se atabona neza akaba yavurwa, cyangwa se akabagwa amaso akongera kubona.

Abarwayi batandukanye bahuriye kwa muganga, bamwe bari ku madirishya barimo kwakirwa kugirango bahabwe ubuvuzi, abandi baricaye bategereje ko igihe cyabo kigera bakabahamagara kugira ngo nabo bahabwe ubuvuzi.

Icyumba cy' iburanisha, hari umuntu urimo kuburana ufite umuntu umwunganira bari kumwe; abandi baricaye bateze amatwi uko urubanza rurimo rugenda. Nta muntu n'umwe urimo kuvuga uretse abahawe ijambo.

Umugabo munini wambaye indorerwamo z'amaso yambaye ikanzu ndende y'umukara irimo amabara y'umutuku, imbere ku iyo kanzu hari agatambaro kamanutse k'umweru ni umucamanza.

Kizito Mihigo ari imbere y'abanyururu aho yari afungiwe muri gereze imwe mu mujyi wa Kigali, uyu Kizito Mihigo kandi akaba yari umwe mu bahanzi b'indirimbo za Genoside ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu cy' u Rwanda akaba yarahimbye indirimbo nyinshi cyane, ubu ngubu akaba yaramaze kwitaba Imana.

Abantu batandukanye bashakishwa kubera ibyaha bakoze leta zunze ubumwe za amerika yashyizeho igihembo cya miliyoni eshanu z'amadolari ku muntu wese uzatanga amakuru ya bamwe muri bo, hari abamaze gufatwa hari n'abatarafatwa.

Umugororwa ahagaze imbere y'abacamanza arimo araburana, ari kumwe n'umwunganira mu mategeko, abacamanza na bo bicaye mu myanya yabo y'iburanisha barimo baramutega amatwi.

Igororero! Ni ikigo gikusanyirizwamo abantu bose banyuze mu bushinjacyaha no mu butabera, bagakatirwa igifungo gitandukanye. Abantu rero bose bakatiwe igifungo, baza kukirangiriza mu igororero.

Umuntu wambaye ikanzu y'umukara ifite amabara y'umutuku mu gatuza hamanutsemo agashumi k'umweru ni umucamanza.

Umugabo munini wambaye ikanzu y'umutuku ifite akabara k'umweru imbere, umugabo munini urimo kureba imbere akaba ari umucamanza.

Umugororwa witwa sankara, ari kumwe n'umwunganira mu by'amategeko. Barimo barareba muri mudasobwa, kugirango barebe ukuntu bakwita ku bihereranye n'urubanza aregwamo.

Umugabo munini wambaye indorerwamo z'amaso, yambaye ishati nziza, yambaye na karavate, inyuma akaba yambaye umwambaro w'umutuku n'umukara umanuyemo akabara k'umweru, bigaragara ko ari umucamanza witeguye kujya mu kazi.

Igororero rya Nyarugenge riherereye i Mageragere mu mujyi wa kigali, akaba ari igororero rishyirwamo abagororwa bamaze guhamwa n'icyaha kugirango bazaharangirize ibihano byabo byabahamye.

Mu cyumba cy'iburanisha, abacamanza bicaye imbere mu myanya yabo hari amazi yo kunywa mu gihe bibaye ngombwa, umuburanyi ndetse n'abamwunganira babiri nabo baricaye imbere y'abacamanza.

Inkiko gacaca, ni inkiko zashyizweho na leta y'u Rwanda kugira ngo zifashe abaturage gucira abantu imanza, abantu bakoze jenoside mu Rwanda, bitagombereye ko bajya mu zindi nkiko. Umugororwa ahagaze hagati y'abagize inkiko gacaca, arimo aracirwa urubanza.

Perezida wa repububurika y'u Rwanda ahagararanye na perezida w'urukiko rw'ikirenga, ari kumwe n'abandi banyacyubahiro ndetse n'abayobozi bakuru b'ingabo n'aba polisi. Amaze kurahirira kuyobora igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo uhagaze usa neza, munini yambaye ikanzu y'umutuku irimo amabara y'umukara irimo akaba k'umweru imbere yambaye n'ishati y'umweru ni umucamanza.

Abaturage benshi bicaye bategereje mwanzuro w'urukiko gacaca, inkiko gacaca zashyizweho na leta y'u Rwanda kugira ngo zifashe mu bantu bakoze ibyaha bya jenoside yakorewe mu Rwanda, umugabo arahagaze arimo kwisobanura kubyo yakoze imbere y'urukiko gacaca.

Umugororwa yambaye agapfukamunwa, yambaye amataratara y'amaso, ari kumwe n'umwunganira mu mategeko barimo baraganira ku bihereranye n'urubanza rwe.

Umupolisi afite imbunda, yambaye imyenda y'akazi, ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umukara ni umunyamakuru bamwitaga fata ku mavuta yambaye amapingu bagiye kumufunga.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso n'ikanzu ndende y'umukara irimo iriho akantu k'umweru ni umwunganizi mu by'amategeko akaba arimo aganira nuwo y'unganira mu mategeko ni ukuvuga ngo umugororwa witeguye kuburana.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku irimo amabara y'umukara yambaye yambaye ishati ni umugabo munini ni umucamanza.

Abashinjacyaha bari mu biro byabo, bambaye imyenda y'umukara n'agatambaro k'umweru kari imbere, abagororwa nabo babiri bahagaze imbere y'ubushinjacyaha bari kumwe n'umuntu ubunganira mu mategeko.

Igororero rya Nyanza ni rimwe mu magororero dufite mu Rwanda, amagorore dufite mu Rwanda yakira abagororwa batandukanye bamaze guhamwa n'icyaha kugira ngo bajye kuharangiriza iyi myaka isigaye y'igifungo bakatiwe.

Abagororwa bane bicaye imbere y'umushinjacyaha, barimo baraganira n'umushinjacyaha ahagaze imbere yabo. Yambaye ikanzu y'akazi, ikanzuy'umweru irimo akabara k'umweru inyuma.

Igororero ni ibigo leta ishyiraho kugira ngo ifashe abantu bakoze ibyaha bitandukanye kandi bamaze guhamwa n'ibyo byaha kugira ngo baharangirize ibihano byabo byabo. Mu igororero hashobora kwigirwamo imyuga itandukanye izafasha abagororwa mu gihe barangije ibihano basubiye iwabo.

Abagororwa babiri b'igitsina gore barimo baraburana. Buri wese afite umwunganizi mu mategeko, barimo barisobanura. Abagororwa bambaye imyenda ibaranga bambara y'iroza, naho abunganizi bambaye imyenda y'akazi.

Umugororwa yambaye ishati y' iroza. Yambaye n'amatararatara y'amaso. Ari kumwe n'abunganizi be mu mategeko babiri. Abunganizi mu by'amategeko bambaye amakanzu y'umukara, harimo agatambaro k'umweru imbere.

Umugororwa w'igitsina gore ari kumwe n'umwunganira mu mategeko barimo baraganira ku bihereye n'amategeko kugira ngo urubanza niruba uyu mugororwa azarwitwaremo neza.

Abagororwa bahagaze imbere y'abaturage, babazanye kugira ngo bisobanure ku byaha bitandukanye bakoreye mu gace k'iwabo, hari abaturage, hari n'abacamanza biteguye kumva ibirego byabo no kubifataho imyanzuro.

Abapolisi babiri bo mu ishami rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro ryo muri polisi y'igihugu bafite ibikoresho byabo barimo baragerageza kuzimya ahantu habaye inkongi y'umuriro.

Umuhanda uri hafi yaho imodoka zihagaragra Nyabugogo ni umuhanda ukunda kuba urimo abantu benshi, ubu hari umu umugore urimo kugenda, hari abagabo babiri barimo kugenda umwe yambaye umupira w'umutuku, hari n'umupolisi ku ruhande ushinzwe umutekano wo mu muhanda urimo kugenda areba ko ibintu byose biri kuri gahunda.

Zigama siyesesi ni ikigo cy'imari. Gikoreshwa n'abari mu nzego z'umutekano, abari mu ngabo z'igihugu, abagize polisi y'igihugu, abacungagereza, n'abandi bari muri serivisi z'umutekano.

Ibinyabiziga bya polisi y'urwanda ikoresha mugucunga umutekano hari imodoka itwara abapolisi igamije gutabara ahacungirwa umutekano hari na moto zihuta cyane zigenda kuriyo modoka

Umurindankuba ni ibikorwa remezo bishyirwa hejuru y'amazu, akenshi biba bisongoye kugira ngo bizarinde kuba inzu yakwangirika binyuriye ku mirabyo cyangwa se inkuba.

Abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda, abapolisi babiri bahagaze iruhande rwa moto bakoreshaga mu akazi kabo, bahagaze iruhande rw'inyubako kandi ni kure y'umuhanda ntabwo bahagaze mu muhanda rwagati.

Inzu zisa neza cyane, imbere y'izo nzu hari ubusitani bugizwe n'indabyo ndetse n'ahantu hameze neza hakubuye, hari abapolisi bahagaze imbere y'inzu, ibi ni ibiro bikorerwamo na polisi y' u Rwanda.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa ku nyubako zirimo amashanyarazi cyangwa ibindi byatera inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto ishobora gukoreshwa igihe cyose havutse inkongi y'umuriro ikaba yazima.

Ku biro bya polisi ku muhima aho bakunze kwita kwa Kabuga. Hari imodoka zitandukanye za polisi y'u Rwanda. Umunyamaguru arimo aragenda mu nzira ihari hateye igiti kigaragaza ko hari umwuka n'akayaga keza.

Kizimyawoto ni igikoresho gikoreshwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro. Inkongi y'umuriro aho yababiturutse hose yaba umuriro woroheje cyangwa se umuriro mwinshi, ushobora kwifashisha iki gikoresho kugira ngo uzimye uwo muriro wo ube utateza akandi kaga.

Umuhanda wa kaburimbo, ikimodoka kinini kizimya inkongi y'umuriro kirahahagaze, abantu barimo barazimya birashoboka ko imbere hari imodoka ishobora kuba yafashwe n'inkongi y'umuriro.

Abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda, abapolisi babiri umwe afite imbunda, bahagaze nku nkombe y'umuhanda aho abagenzi bategera imodoka, burije ntabwo hari kugaragara neza.

Ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda, rikorera muri polisi y'igihugu rishinzwe kumenya imigendekere y'ibinyabiziga mu muhanda, ikamenye n'uburyo imihanda ikoreshwa mu buryo butatera impanuka.

Kizimyamwoto n'igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, mu nyubako, mu mazu y'ubucuruzi, mu modoka ndetse n'ahandi hatandukanye hashobora gufatwa n'inkongi y'umuriro m'uburyo bworoshye.

Aba bapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda bahagaze ku muhanda. Hari abagenzi batandukanye barimo kwihitira. Imvura irimo kugwa umuhanda nta binyabiziga byinshi birimo, busa naho bugorobye abantu bose bafite umutekano.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto ikoreshwa ahantu hatandukanye inkongi y'umuriro yagera, haba mu nyubako, haba mu kazi, haba ahatangirwa serivisi n'ahandi.

Kizimya mwoto nigikoresho gikoreshwa mukuzimya ahantu habaye inkongi y'umuriro, ahantu hose habonetse umuriro waba muke waba mwinshi icyi gikoresho kirafasha kugira ngo uwo muriro uzime.

Mu muhanda mu mujyi wa Kigali, hari imihanda myiza cyane itandukanye, aho hari ibitandukanya imodoka zirimo zizamuka n'imodoka zimanuka, hagati hateyemo ubusitani n'imikindo, imodoka zimwe ziri ku ruhande rwo hirya rw'ibumoso izindi ziri ku ruhande rw'iburyo.

Ikimodoka kinini cyane cya polisi y'u Rwanda, ni ikimodoka gishinzwe kuzimya umuriro n'ahandi hantu habaye inkongi y'umuriro, ahantu hose rero hafashwe n'inkongi y'umuriro mu Rwanda, mu ntara, mu mijyi, izi modoka zishobora gufasha mu kuzimya umuriro.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, mu gihe icyo ari cyo cyose yadutse, haba ku nyubako, mu modoka ndetse n'ahandi hose haturuka inkongi y'umuriro.

Inzu ikorerwamo imirimo itandukande ninzu nziza cyane ifite umutekano kandi biragaragarako ifite uburyo bwo kuzimya inkongi y'umuriro abayirimo rero baba bumva batekanye kuberako yujuje ibyangombwa .

Abagize inteko ishinga amategeko bateraniye mu cyumba cy'inama. Barimo baraganira ku mishinga itandukanye y'amategeko yashyizweho. Bateze amatwi rero kugira ngo barebe niba bayemeza cyangwa se niba batayemeza.

Ibendera ry'ishyaka emerenide rigizwe n'amabara atatu umutuku, umuhondo n'icyatsi, hagati harimo mu ibara ry'umuhondo harimo inuma hakandikwaho amagambo repubulika y'u Rwanda, ubumwe, amahoro n'amajyambere.

Perezida wa repubulika Paul Kagame ari kumwe n'umufasha we Jeannette Kagame. Bari muri sitade abantu bose bateranye kandi abantu bose baramwishimiye.

Icyumba cy'inama cyiza cyane! Harimo intebe nziza, abantu bose baricaye, barimo barareba imbere. Abantu bameze neza, kirimo amatara ameze neza, kandi rwose hameze neza.

Paul Kagame perezida wa repubulika y'u Rwanda arimo kwiyamamariza gutorwa, abarwanashyaka ba efuperi bose barishimye bazamuye amabendera y'ishyaka rya efuperi bagaragaza ko bishimye.

Abantu benshi bishimye barimo barabyina ni abaturage benshi bambaye imyenda y'amabara y'umutuku, umweru n'ubururu bikaba bigize ibendera ry'ishyaka efupe eri.

Kagame Paul ni perezida wa repubulika y'u Rwanda, kuva mu mwaka wa bibiri na gatatu. Mu gihe cyose amatora yagiye aba, yagiye afata iya mbere mu kwitabira amatora. Arimo aratora mu matora yagenewe abadepite.

Abantu batandukanye barimo kubyina ,bambaye imyenda y'ishyaka FPR inkotanyi, bafite amadarapo y'ishyaka FPR inkotanyi, Bose barishimye bameze neza barimo bararirimba.

Abadepite mu nteko ishinga amategeko baba bagizwe n'abantu batandukanye badahuje ibitsina. Haba harimo abagabo n'abagore, buri wese yicaye mu mwanya we. Buri wese arimo kureba imbere, harimo ikiganiro kiri gutangwa kandi buri wese arakurikiye.

Minisitiri w'intebe w'u Rwanda yitwa Ngirente Eduwari arikumwe n'umusirikare mukuru barimo baraganira yamusuye arimo baraganira ku mibereho y'igihugu cy'u Rwanda kandi inyuma yabo hari ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda bigaragaza ko yamusuye mu kazi.

Perezida wa repubulika n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu, bahagaze barishimye, inyuma yabo hari ibiti byiza ndetse n'inyubako zimeze neza.

Perezida Paul Kagame mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu ishyaka efuperi inkotanyi. Hari abashinzwe umutekano we, abaturage ni benshi cyane, kandi bose bafite amadarapo y'ishyaka rya efuperi.

Imodoka nini cyane ikoreshwa mu bintu bitandukanye. ishobora gutwara umucanga iwujyana ahantu hari kubakwa cyangwa ishobora gutwara amabuye na yo iyajyana ahantu hari kubakwa. Cyangwa se igatwara ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi.

Umuhanda wa kaburimbo umuhanda ufite inzira yahariwe abanyamaguru, imodoka nini cyane yikorera ku mucanga amabuye ita n'ibikoresho by'ubwubatsi, ifite ibara ritukura iri muri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo umuntu uri ku igare uhetse mugenzi we. Imodoka nini itwara ibicuruzwa irimo kugenda mu muhanda. Indi modoka ntoya y'umutuku y'abantu ku giti cyabo, na yo irimo kubisikana n'iy'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo unyura mu mujyi hari umunya umuntu uri ku igare urimo kugenda mu muhanda imodoka yikoreye ibicuruzwa igiye guhagarara iruhande rw'umuhanda. Hari abantu bahagaze ku muhanda munsi y'umuhanda bategereje ko imodoka ihagarara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yikoreye ibicuruzwa, munsi y'umuhanda hategeye ibiti bitandukanye, munsi y'ibyo biti hari izindi modoka zitandukanye zihagaze.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri, imodoka y'umweru y'abantu ku giti cyabo, n'imodoka nini y'ubururu irimo ibinyobwa bya bralirwa. Ku muhanda hateyeho ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri. Iy'imbere mu mutuku akaba ari imodoka ikoreshwa mu gutunda ibintu biremereye amabuye' imicanga n'ibindi bikoreshwa mu bwubatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, hahagaze imodoka ebyiri zitwara imizigo, imwe ifite imizigo mikeya, indi ifite imizigo myinshi iracyanahambiriye rwose.

Mu muhanda wa kaburimbo, hariho inzira y'abanyamaguru, hari umuntu wambaye imyenda itukura uhagaze ku muhanda, hari umumotari urimo utwaye abagenzi, moto yikorera imizigo iri mu muhanda irimo kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka y'umweru irimo kuzamuka hari n'umuntu wicaye inyuma, hari imodoka y'umukara irimo kumanuka hari na moto ebyiri zitwawe n'abamotari bahetse abagenzi.

Umuhanda nyabagendwa, ukoreshwa n'abantu batandukanye, abanyamaguru, ibinyabiziga bito n'ibinini. Hari ikinyabiziga kinini gitwara imizigo, gifite ibara ry'umutuku n'ibara ry'icyatsi. Ku muhanda hateye ibiti bitandukanye bizana umuyaga.

Umuhanda wa kaburimbo umuhanda umeze neza uteyemo ibiti bigabanya umuhanda w'imodoka zizamuka n'uw'imodoka zimanuka. Imodoka itwara abagenzi bakeya irimo irazamuka.

Umuhanda wa kaburimbo umuhanda ukikijwe nibiti bitandukanye bizana umuyaga mumugi hari imodoka y'umweru irimo kuza hari umunyamaguru urimo usunika igare ryikoreye ibirayi

Imodoka itwara abagenzi mumugi wa kigali ndetse no muntara, imodoka nziza cyane kandi ikoresha amashanyarazi iyo umuntu ayijyiyemo aba yumva afite umutekano kandi aba yumva ari bugere iyo ajya neza k'umutekano.

Umuntu ugaze kuhande rw'umuhanda, arimo kuvugira kuri terefone, undi arimo kugenda, undi wambaye umupira w'umuhondo arimo kuza, mu muhanda harimo imodoka nyinshi zitandukanye harimo na moto itwara imizigo.

Mu muhanda wa kaburimbo mwiza, harimo kunyuramo ibinyabizigaye imodoka y'umutuku nini cyane yikorera imicanga amabuye itaka n'ibikoresho by'ubwubatsi hari n'imodoka ntoya y'abantu ku giti cyabo barigendera.

Aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara. Hari imodoka zisanzwe zitwara abagenzi zacyera, hari n'imodoka zigezweho nini zitwara abantu benshi. Abagenzi barahari benshi biteguye kugenda muri izo modoka.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo urimo imodoka zirimo kugenda. Ufite inzira z'abanyamaguru, n'umuyoboro utwara amazi igihe imvura yaguye. Iruhande rw'umuhanda hari ibiti bitanga umuyaga mwiza, ndetse hari n'indabyo ziteye ku muhanda.

Umuntu aragenda mu nzira y'abanyamaguru afite igare rihetse umufuka munini cyane, mu muhanda harimo ikimodoka kinini gitwara imizigo, kurundi ruhande harimo imodoka nini itwara abagenzi, umuhanda ni umuhanda mwiza ukikijwe n'ibiti.

Umuntu arimo kugenda iruhande rw'umuhanda. Hari imodoka itwara abagenzi icyarimwe, ifite ibara ry'icyatsi. Umuhanda ni umuhanda mwiza wa kaburimbo, uteyeho ibiti ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo n'umuhanda urimo ibinyabiziga, abantu bagendera ku magare babiri batwaye abagenzi, harimo imodoka y'umweru itwaye imizigo, kuhande rw'umuhanda rwo hepfo hatayeho ibiti bizazana umuyaga mu muhanda.

Umuntu atwaye igare mu muhanda wa kaburimbo, ni umuhanda mwiza ni umuhanda urimo n'ibindi binyabiziga, imodoka nini cyane itwara imizigo nayo iri mu muhanda wa kaburimbo uy'umuhanda kandi ukikijwe n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka izamuka y'umweru harimo imodoka irimo imanuka y'umutuku yikorera ibikomoka ku bucukuzi, ishobora kwikorera amabuye, ishobora kwikorera umucanga n'itaka n'ibindi bikoresho by'ubucuru by'ubwubatsi. Hari imodoka iri kuzamuka y'amapine atatu, za moto zitwara imizigo.

Inzira z'abanyamaguru ni inzira ziba zigizwe n'amabara y'umweru ari muri kaburimbo mu muhanda hagati, zikaba zigaragaza ko hariho abanyamaguru bose bagomba kwambukira. Mu gihe abanyamaguru barimo kwambuka izindi modoka zose zirahagarara.

Imodoka y'ishuri ryigisha gutwara ibinyabiziga ayo mashuri agamije gufasha abantu kubona, gukorera no kubona impushya z'ibinyabiziga mu buryo bworoshye. Barakwigisha, bakwigisha gutwara n'amategeko y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite inzira y'abanyamaguru nziza cyane, ufite n'uburyo bwo gutangira amazi y'imvura. Harimo imodoka irimo iragenda, munsi y'umuhanda hari ibiti bitandukanye bitanga umuyaga n'umwuka.

Umusore arimo arasunika igare rye, inyuma umugore n'undi mugabo barimo baragenda mu byerekezo bitandukanye, barimo kugenda bombi mu nzira y'abanyamaguru, hirya hari umuhanda wa kaburimbo urimo ugendwamo n'imodoka n'amapikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo. Umuhanda urimo umuntu utwaye igare, iri gare ni igare rya siporo umuntu ashobora gukorera siporo mu buryo butandukanye haba mu muhanda, ndetse ashobora gukora siporo atwaye igare.

Umuntu urimo kugenda avugira kuri terefonemu muhanda, hari moto ebyiri zitwara abagenzi, imodoka itwara ibikoresho ndetse n'imizigo iri mu muhanda. Hari umunyamaguru wikoreye ibintu ku mutwe ugenda n'amaguru.

Moto ikoresha amashanyarazi, iyi ni moto igenzweho cyane mu gihugu cy'Urwanda. Kuberako Leta yu Urwanda yafashe ingamba, ivugako hagomba gukoreshwa ibinyabiziga bidahumanya ikirere.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragendwamo n'imodoka zitandukanye, hari imodoka itwara abagenzi igatwara abagenzi benshi kubera ko itwara abagenzi makumyabiri n'icyenda, k'urundi ruhande harimo imodoka nine cyane itwara imizigo.

Imuhanda wa kaburimbo ufite inzira y'abanyamaguru kuhande, ni umuhanda ukoreshwa n'imodoka nyinshi zitandukanye, imodoka irimo ni imodoka y'imizigo itwaye imizigo itandukanye, haruguru y'umuhanda hari amazu atandukanye y'abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo ufite inzira y'abanyamaguru ku ruhande, urikugendwamo n'imodoka zitandukanye, hari imodoka y'umweru yikorera ibicuruzwa n'imizigo, hari imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo, hari imodoka nini itwara imizigo, hari na moto zirimo kugenda muri uwo muhanda, umuhanda ukikijwe n'ibiti.

Imodoka nini itwara ibicuruzwa irimo iragenda mu muhanda, ifite ibara ry'ubururu hamwe n'ibara ry'umweru, mu muhanda harimo abagenzi b'abanyamaguru bagenda ku ruhande rwo hepfo, ni umuhanda ukikijwe n'ibiti kandi ibiti bitoshye.

Umumotari arimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo yambaye umwenda w'akazi, yambaye n'ingofero y'umutekano, imbere ye hari imodoka yikoreye ibicuruzwa nayo irimo kugenda muri kaburimbo mu muhanda ukikijwe n'ibiti.

Imodoka nini zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, ni imodoka nini zishobora gutwarira abantu benshi icyarimwe bakagenda ari benshi, zifite imyanya yo kwicaramo hakaba hari n'indi myanya abantu bagenda bahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka zitandukanye zitwara imizigo n'izitwara ibikoresho, mu muhanda ku nkengero zawo hari ibiti bitandukanye bitanga umuyaga n'umwuka mwiza, ku ruhande rwo haruguru hari inzu ihubatse n'imodoka ihagaze.

Mu muhanda wa kaburimbo ku mpande zombi iburyo n'ibumoso hari inzira zagenewe abanyamaguru. Umuhanda ukoreshwa n'imodoka zitandukanye intoya zitwara abantu bake, izitwara abantu benshi ndetse n'izitwara imizigo, ndetse mu muhanda wa kaburimbo hagendamo amapikipiki ndetse n'abatwara amagare.

Imodoka irimo kugenda m'umuhanda wa kaburimbo, hari umuntu wicaye muri iyo modoka inyuma ahajya ibicuruzwa cyangwa se ibintu yikoreye, muri uwo muhanda harimo moto itwaye umugenzi.

Abatwara moto zitwara abagenzi mumugi, bariteguye bose baparitse i ruhande rw'umuhanda, biragaragara ko ari nijoro, kandi biteguye gushaka abagenzi bajyana kugira ngo baze kubona amafaranga bacyura mungo za bo.

Umuhanda wa kaburimbo umuntu arimo aragenda ku igare yikoreye ahetse ikintu ku igare rye. Imodoka nini itwara imizigo y'umweru iri muri uwo muhanda. Ku nkengero z'umuhanda hateyeho ibiti bizana akayaga keza.

Moto ikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa igapakira imizigo ifite ibara ry'ubururu, itwawe n'umuntu wambaye ingofero irinda imutekano w'umutwe, iyi moto ikaba itwara imizigo itandukanye kugira ngo abayikoresheje cyangwa se abaranguye bayigeze iwabo mu rugo.

Ikibuga cy'umupira kimeze neza, ntabwo cyubakiye cyangwa ngo kibe gisakaye, ariko kimeze neza ku buryo abantu batandukanye bahakinira imikino itandukanye, cyane cyane nk'umupira w'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo wubatswe ahantu ku gasozi, munsi y'umuhanda hari amazu ahubatswe. Ku muhanda wa kaburimbo hashyizweho uburyo buzajya butangiragera imodoka mu mu gihe habaye impanuka, kugirango itagwa munsi y'umuhanda.

Icyapa cyo ku muhanda kibuza kunyuramo imodoka nini, kigizwe n'ibara ry'umweru rizengurutsweho n'umurongo w'umutuku unyuzemo umurongo hagati. Hagati hakaba harimo imodoka nini iri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiburira kigaragazako ahantu runaka hashobora kuba hate za ibyago. Icyapa kigaragazako nta muntu utwaye igare ugomba kunyura aho hantu. Uhanyuze utwaye igare ugomba guhanwa, cgangwa ugateza ibyago.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye hakubiyemo imodoka na moto. Umuhanda ufite inzira y'abanyamaguru k'uruhande, hari ubusitani buteyemo ibiti, hari icyapa kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara.

Icyapa cyerekana inzira y'abanyamaguru, kigizwe na mpandeshatu y'umutuku iri mu ibara ry'umutuku, hagati harimo ibara ry'umweru, ibara ry'umweru ririmo uturongo tw'umukara tugaragaza aho abanyamaguru banyura n'umuntu uri mu ishusho y'umukara w'umunyamaguru.

Icyapa kiyobora abagenzi, icyapa kigaragaza ko ushobora kugenda inzira imwe hanyuma ugakata iburyo, gukurikiza ibyapa kumuhanda bishobora gutuma abantu bagira umutekano Kandi bakagera aho bajya.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatse neza ufite ibimenyetso byo mu muhanda urimo amarangi, ku nkengero zaho hateye ibyatsi byiza, haruguru yaho hari ikigo hateyeho ibiti bizazana umuyaga mwiza kandi uriho ibyapa biyobora abagenzi n'ibinyabiziga.

Icyapa kigaragaza ahari amatara ayobora ibinyabiziga mu muhanda kigizwe na mpande eshatu izengurutswe n'ibara ry'umutuku, hagati y'ibara ry'umweru ririmo amabara atatu umuhondo, umutuku, umuhondo icyatsi.

Umuntu ahagaze hagati ku cyapa, icyapa kigaragaza ko winjiye mu Rwanda, ni icyapa kiri ku mupaka w'u Rwanda n'ikindi gihugu. Iyi imihanda ya kaburimbo ni myiza cyane, hari n'ibindi byapa biyobora abagenzi n'ibinyabiziga.

Icyapa kigaragaza umuhanda utemerewe kunyurwamo n'imodoka, kigizwe n'ibara ry'umweru rizengurutswe n'ibara ry'umukara, hagati harimo uruziga ruri mu ibara ry'umutuku, unyuzemo akarongo k'umutuku hakaba harimo imodoka y'umukara. Munsi handitseho ko nta modoka zigomba gucamo

Icyapa kiyobora abagenzi n'ibinyabiziga, kigizwe na mpande eshatu y'umutuku imbere harimo iba ry'umweru muri iryo bara ry'umweru harimo umuhanda w'umukara ugaragaza ko umuntu agomba gukata iburyo.

Icyapa kigaragaza abana bajya ku ishuri. Abatwaye ibinyabiziga iyo bageze ahantu hari icyapa kigaragaza abana bajya ku ishuri bagomba kwitonda kugira ngo badateza impanuka.

Icyapa kigaragaza inzira y'abanyamaguru kigizwe na mpande eshatu ifite umuzenguruko w'ibara ritukura hagati harimo umuntu uri mu ibara ry'umukara urimo ugenda mu muhanda.

Icyapa kigaragaza ko hari imirimo irimo gukorerwa aho abantu banyura, kigizwe n'ishusho y'umwashi iri mu ibara ry'iroza, hagati handitsemo ko imirimo iri gukorerwa muri uwo muhanda.

Amatara ayobora ibinyabiziga mu muhanda. Itara riyobora abanyamaguru iyo ryanditsemo umuntu mu ibara ry'icyatsi, abanyamaguru baba bagomba gutambuka bihuta, hanyuma bakambuka.

Ibyapa bibiri ku muhanda, kimwe cyo hejuru ni icyapa kigaragaza ko ugomba kugendera ku muvuduko utarengeje kilometero mirongo itandatu mu isaha, icyo hasi ni icyapa kiburira kigaragaza ko imbere hari kamera y'umutekano.

Amatara ayobora abagenzi mu masangano y'umuhanda harimo itara riyobora umunyamaguru w'icyatsi umunyamaguru aba agomba gutambuka afite umutekano, hazamo umunyamaguru uri mu ibara ry'umutuku umunyamaguru aba agomba guhagarara, hari kandi itara ry'umutuku ribuza ibinyabizi kugenda ryahinduka icyatsi ibinyabiziga nabyo bigakomeza.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza ko hari imirimo irimo gukorwa n'abaturage kuri uwo muhanda kigizwe n'ibara ry'umweru harimo umuntu uri ibara ry'umukara afite igitiyo arimo aterura umucanga.

Icyapa kibuza kigaragaza ko umuvuduko ntarengwa ari ibirometero mirongo itatu ku isaha, kigizwe n'ishusho y'uruziga ruzengurutswe n'ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umweru n'umubare mirongo itatu mu ibara ry'umukara hagati.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, umuhanda uteyeho ibiti, ibyatsi bitoshye, ukikijwe n'amazu Kandi uyu muhandi uriho icyapa kigaragaza ko mu igihe k'imvura nyinshi unyerera ukaba wateza impanuka.

Birabujijwe kurenza umuvuduko wa kirometero mirongo itandatu mu isaha. Uramutse urengeje uwo muvuduko ushobora guhanwa cyangwa se ukaba wahura n'impanuka zitandukanye mu muhanda.

Icyapa kigaragaza ko imbere hari ikiraro, kigizwe n'ibara ry'umuhondo ririmo hagati ku mirongo y'umukara. Icyo cyapa iyo ugiye kukigeraho uritonda kugira ngo utahahuriramo n'ibindi binyabiziga.

Umuhanda mu mujyi hari abana babiri bagiye ku ishuri, ibyapa bibiri bihari bigaragaza ko hari umuhanda wambukirankwa n'undi, kandi ko hafi aho ngaho hari ikigo cy'amashuri bikaba bisaba ko ibinyabiziga byitondera abanyeshuri.

Icyapa kigaragaza uburyo bwo kugenda mu muhanda, kigizwe n'ibara ry'umuhondo rizengurutswe n'ibara ry'umukara, hagati mu ibara ry'umuhondo harimo umuhanda ugenda ukegera imbere hanyuma ugahindukira ugasubira aho uvuye.

Umuhanda wa kaburimbo wubatseho amazu kuruhande, kuri ayo mazu hagiye hateyeho ibiti bizana kayaga keza kandi kuruhgande rwa kaburimbo hari ibyatsi byiza bitoshye, umuntu utwara moto aparitse kuri uwo muhanda, ariko hari icyapa kigaragaza ko bibujijwe kuhahagarara.

icyapa kiburira ko imbere hanyerera ni icyapa kirimo ishusho y'umwashi w'ibara ry'umuhondo uzengurutswe numurongo wumukara imbere kirimo ishusho y'umuhanda n'imodoka irimo kugendamo irimo kunyerera.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwabo hari ibyatsi bitoshye kandi haruguru y'umuhanda akaba hubatse amazu bigaragara ko ari amazu y'abaturage, inzu iteye igiti cy'imbere, kandi kuri uwo muhanda hariho icyapa kigaragaza abanyamaguru bagomba kunyura.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo uriho amatara, abagenzi barimo baragenda, hari umuntu wambaye imyenda y'umukara urimo gutambuka, hari amaduka iruhande rw'uwo muhanda. Kandi hari icyapa kigaragaza ko ibinyabiziga bigomba kuhanyura k'umuvuduko wa kirometero mirongo itandatu mu isaha.

Igororero ni aho abagororwa batandukanye bakusanyirizwa, nyuma yo gucibwa imanza. Igororero rya Nyamagabe ni rimwe mu magororero ari mu Rwanda, rikaba rifungirwamo abagororwa b'igitsina gore.

Imyubakire mu mujyi. Amazu aba yubatse mu buryo butandukanye, asakaje ibintu bitandukanye. Hari amazu asakaje amabati, hari n'amazu asakaje amategura. Mu mujyi hateyemo ibiti bitandukanye, bishobora kuzana umuyaga n'umwuka mwiza.

Amazu meza cyane maremare yubatse mu mugi. Harimo n'andi mazu magufi ukaba ari umugi wo guturamo n'abantu batandukanye. Harimo ibiti bitandukanye bizana akayaga muri uyu mugi.

Inzu nziza cyane yubatswe kandi yuzuye imeze neza. Ni inzu ifite ibyumba bitandukanye, ishobora gukoreshwa nk'inzu yo kubamo, ishobora gukoreshwa nk'inzu y'ubucuruzi, cyangwa ishobora gukoreshwa nk'inzu itandukanye yo gutangirwamo serivise.

Zigamacie siyesesi ni kimwe mu bigo by'imari bikorera mu Rwanda. Zigamaciye siyesesi ikorana n'abantu bakora mu nzego z'umutekano, abasirikare mu ngabo z'u Rwanda, porisi y'igihugu, abacungagereza mu bikorwa by'amagororero, n'abandeba bari mu nzego z'umutekano.

Icyanya cyahariwe ibinyabuzima n'inyamaswa cya Nyandungu. Harimo ibiti bitandukanye kimeza harimo umuhanda unyuramo ku buryo abantu bakeneye gutemberamo batemberamo neza, wahabona byinshi ku bijyanranye n'inyamaswa ndetse n'ibimera.

Inzu zikikijwe n'ibiti bitanga umuyaga, ndetse n'indabyo, ibyo bikaba bituma umujyi wa Kigali ukomeza kubamo akayaga keza, ndetse n'abatuye muri ayo mazu bakaba ari abantu bafite umwuka mwiza wo guhumeka.

Umuhanda umeze neza ukikijwe namazu bigaragara ko ari amazu agezweho yabakire, aya mazu yubatse kimwe afite ibisenge bimeze kimwe afite ninzugi zikomeye.

Umujyi mwiza cyane wubatswemo amazu, umujyi unyuramo umuhanda ariko ahanini ugizwe n'ibiti bikura bikagera hejuru akaba ari ibiti bishobora gutanga ubwiza bw'umujyi kandi bikazana n'umuyaga mwiza.

Inzu nziza cyane yubatse ahantu heza, ikikijwe n'ibiti bishobora kuzanamo akayaga keza. Ifite amarembo magari ku buryo umuntu uhatuye, yacyuramo imodoka. Ni inzu yo guturamo kandi ugaturamo ufite umutekano.

Icyapa kiranga umuhanda kiba kigizwe n'inyuguti zigaragaza agace uwo umuhanda uherereyemo n'imibare igaragaza nimero y'umuhanda. Kirere ahantu ku kumuhanda hari ibiti.

Inzu nziza cyane igeretse, iri mu mujyi, ariko bigaragara ko ahantu yubatse hataratera imbere, yubatse neza, yubakishije amatafari, ifite amarangi, ndetse iteyeho ibiti bizana amwuka mwiza n'akayaga mu rugo.

Inzu y'ubucuruzi yubatse ku muhanda, iruhande rwayo hari imodoka z'abagenzi, abantu batandukanye barimo baragenda mu nzira zitandukanye, abatwara moto bategreje abagenzi kugira ngo babatware.

Umuntu arimo kugenda mu nzira y'abanyamaguru, ku rundi ruhande imodoka zirimo ziragenda muri kaburimbo, hari umutaka wa emutiyene mobayiro mani, hari ibikorwa remezo by'amashanyarazi bitanga ingufu z'amashanyarazi ku mazu y'abantu, hari amaduka atandukanye y'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo. Umuhanda ugaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, n'aho imodoka zitagomba kurenga mu gihe abanyamaguru barimo bambuka. Abamotari babiri bahetse abagenzi barimo baramanuka, umuhanda ukikijwe n'amazu kandi uriho amatara.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uteyeho ibiti kandi ni umuhanda mugari. Harasusurutse hameze neza ni mugitondo nta binyabiziga bihari. Hirya y'umuhanda hubatse amazu meza, yitegeye umuhanda.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, umeze neza urimo imirongo igaragaza aho imodoka zitagomba kurenga, hariho inzira y'abanyamaguru, umuntu wese ugenda muri uyu muhanda aba afite umutekano.

Inzira y'abanyamaguru mu muhanda, ni agace kaba karimo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira. Igihe cyose mu muhanda amatara agaragaza uburyo umuhanda ugendwamo arimo kwaka ibara ry'umutuku, ibinyabiziga bigomba guhagarara.

Umuhanda wa kaburimbo umeze neza, umuhanda urimo ahagenewe kunyura abanyamaguru, abanyamaguru batandukanye barimo baratambuka bafite umutekano kubera ko ibinyabiziga byose byahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ntoya y'umuntu ku giti cye hari n'imodoka itwara ibikoresho by'ubwubatsi, amabuye cyangwag se umucanga hari umumotari utwaye umugenzi. Hari akazu abagenzi ba batageramo imodoka.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo ukozwe neza kuko bafite inzira z'abanyamaguru impande zose kandi bafite ahagenewe abanyamaguru bambukira.

Umuhanda wa kaburimbo. Umuhanda uteyeho ibiti by'imikindo, hanyuramo amapikipiki ndetse n'imodoka. Umuhanda ukikijwe n'ibiti bitandukanye. Hari umuntu utwaye moto, utwaye umugenzi kandi atwaye moto ikoreshwa n'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo, ni umuhanda mwiza cyane, ugizwaya n'ibice byinshi bitandukanye, harimo inzira yagenewe abanyamaguru. Inzira yagenewe abanyamaguru ni imirongo y'umweru yegeranye iri mu muhanda, harimo ibimenyetso by'amatara biyobora imodoka n'abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo, umuhanda ufite inzira y'abanyamaguru imeze neza iruhande rw'inzira y'abanyamaguru, hari hateye ubusitani bumeze neza kandi umuhanda ukikijwe n'ibiti bitandukanye bitera umwuka mwiza.

umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye hakaba harimo numuntu urimo kugenda kwigare, harimo imodoka yagenewe gutwara inyama kugira ngo bazigemure ahantu hose inyama zicururizwa.

Imihanda ya kaburimbo yubatswe mu buryo bugezweho, umuhanda umwe unyura hasi, undi ukanyura hejuru. Umuhanda wo hasi hari abamotari barimo kugenda batwaye abagenzi, n'imodoka igeze munsi y'umuhanda wo hejuru yikoreye ibicuruzwa.

Inzira y'abanyamaguru nziza cyane, inzira ikikijwe n'ubusitani bumeze neza, ku ruhande hakaba hari ishyamba n'ibiti bizana umuyaga mwiza. Nta byondo bihari kandi ahantu hose harashashe.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo ufite umutekano uhagije kubere ko harimo ibimenyetso by'amatara biyobora abagenzi b'abanyammaguru, za moto, ibinyabiziga nk'imodoka kugira ngo hataba impanuka runaka kandi imodoka zirimo ziragendamo zifite umutekano.

Umuhanda wa kaburimbo. Ni umuhanda umeze neza, ufite inzira y'abanyamaguru ku ruhande. Ibinyabiziga byose byahagaze. Zaba moto, zaba imodoka. Hari inzira y'abanyamaguru hagati. Iyo bigaragara ko hari abanyamaguru barimo gutambuka, ibindi binyabiziga byose birahagarara.

Umuhanda wa kaburimbo, hari ibimenyetso by'amatara biyobora abagenzi n'ibinyabiziga mu muhanda, itara ry'icyatsi rigaragaza ko ibinyabiziga byemerewe gutambuka, inzira y'abanyamaguru igizwe n'imirongo y'umweru iciye mu muhanda.